Abagabo batatu bari ku modoka, umwe ari kwinjira, babiri bafashe impapuro zitagaragara neza, bafashe babiri bari kwifotozanya.

Abanyeshuri bari mu ishuri ry'ubushakashatsi, bari mu mwitozo ku byo bari gukora.

Abanyeshuri, bambaye impuzankano, bari kumwe na mwarimu wabo, bamanitse amaboko, abandi bana bari inyuma y'ikigo cy'ishuri bari kubareba.

Inyubako igira ubuzima izengurutswe n'abaturage ari ahantu mu mbuga hateye ubusitani butarakura hari n'abandi baturage batandukanye.